Umugabo uri gusohoka muri butike wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku ufite ikarito mu ntoki imbere ye hari ibido y'ubuto hari ikarito ya biswi hejuru iyi karito hari supaguru.

Mu rusengero korari iri kuririmba, abadamu bambaye impuzankano y'amakanzu abagabo bambaye impuzankano y'amakote n'amashati y'umweru, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi.

Mu isoko hari imyenda irambitse ku mifuka hejuru y'iyo myenda hari udukapu iruhande rwaho hari moto iparitse imbere y'iyo moto hari shitingi yubakiye harimo n'umuntu uryamye.